Abagabo n'abagore bari muri sare, abagabo bafite mashine ziri imbere yabo n'ameza ariho igitambaro cy'umweru, abagore batatu bicaye hamwe, umwe arahagaze afite mikoro n'ikarita imuranga arimo araganiriza abagenzi.

Abagabo n'abagore bicaye batuje, bateze amatwi, bambaye neza barakeye, bicaye ahantu heza hakeye, bari ku ntebe ziriho ibara ry'umuhondo, bameze neza kandi bateze amatwi.

Abagabo n'abagore bicaye muri sare barimo guhana ibitekerezo, hari ufite mikoro urimo kuvuga, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hariho amabara atandukanye icyatsi cyijimye, move.

Abagabo n'abagore bitabiriye inama bambaye imyenda myiza baracyeye, bambaye amakarita y'akazi abaranga, bateze amatwi bitonze kugira ngo bagerweho amabwiriza, nabo bazajye ku kuyageza ku bo bayobora.

Abagabo n'abagore bari mu nama bafite amakaye n'amakaramu barimo kwandika, ku meza hari igitambaro gitukura n'umweru hasi. Hari agacupa k'amazi k'umuntu umwe barakeye barasa neza.

Abantu benshi abagabo n'abagore bicaye abandi bahagaze batuje, bari ahantu hari ibara ry'umuhondo rimeze nkama pave yubatse, bicaye neza kandi baratuje cyane.

Umunara ni icyuma kidufasha gukwirakwiza amashanyarazi akagera ku baturage, bagacana, bakaba mu kizima, bakiteza imbere n'imiryango yabo, bacana amafirigo, bakonjesha ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Ahantu heza hafi n'umuhanda wa kaburimbo, hubatse inzu nziza zifite amabati ari mu ibara ry'umutuku, hari imodoka zitandukanye, hari jaride, hari imikindo, hari amatara, hagaragara ko hasabirwa serivisi zitandukanye.

Kacyiru kuri Isange wani sitopu senta, hari imodoka ebyiri ziparitse, hari n'inzu yakirirwamo ibibazo by'abana bahohotewe batarageza ku myaka y'ubukure, kugira ngo barenganurwe nabo bagire uburenganzira bwabo.

Inyubako nini ifite sale yicayemo abagororwa, imbere yabo hari umucamanza wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara n'umweru, arimo kubasomera imanza zabo baburanye, kugira ngo bumve aho ibibazo byabo biherereye

Abagabo bicaye bari muri sare bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho sanetaiyiza, ateretseho uducupa tubiri tw'amazi, bambaye ubupfukamunwa bari kubwira bagenzi babo ibyabagiriye akamaro n'ibyagirira igihugu cyabo akamaro.

Abagabo n'abagore bicaye batuje bari mu nama barimo kumva ibyo bagenzi babo babwira, umwe ahagaze ari kubaba ikibazo atumvishije kugira ngo bakimusobanurire nawe acyumve.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'ubururu n'ikoti ry'umutuku ririmo ibara ry'umweru, arahagaze, aritonze cyane ntabwo arimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ihagaze, ifite ibara ry'ubururu n'ihema ry'umukara n'umweru, ku ruhande hari inzira y'abagenzi, irimo umudamu urimo kugenda yihuta ashaka kugera aho agiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari atwaye moto ye, afite kasike mu ntoki undi arayambaye, arekataje yihuta kugira ngo ajye gutwara abagenzi, hafi ye hari icyapa hari n'ipoto, hari n'ibiti bikikije ku muhanda.

I Nyandungu hari ibiti, imigano, imiseke hari n'umugabo uri kuri bariyeri afite ingunguru ebyiri, yambaye umwenda wa jire urimo ibara ry'umuhondo, yambaye n'ingofero, arahagaze aratuje.

Amazu meza kandi menshi, arimo amakadasiteri n'amataje, aregeranye cyane, harimo ibiti bitanga umuyaga kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho kugenda neza, bahumeka umwuka mwiza.